Umuntu cyangwa umuganga uri mu nzu y'ubucuruzi aho acururiza imiti cyangwa imiti ivura abarwayi izwi kw'izina rya farumasi, aho umuntu ashobora kuba arwaye afite ikibazo cy'irwara runaka bamwandikiye imiti kwa muganga akabasha kuba yajya kuhagura cyangwa yaba afite ikibazo akajya kubaza uyu muganga ikibazo afite akamuha imiti ijyaniranye ni byakiza icyo kibazo afite.

Umuganga w'umuforomo kwa muganga urigusa no kwandika igitabo mu gitabo, gusuzumimo cyandikamo amakuru y'umurwayi atanze, ufite imiti iruhande rwe witeguye ko yatanga imiti ku murwayi amabaze gupima.

Ahantu habereye kampanyi yo gutanga ibinini, bigaragara ko ibinini ku bana ndetse n'udutonyanga, bigaragara ko ari abanyabuzima cyangwa ari abaganga baje, kwifatanya abanyabuzima baje kwifatanya n'abaganga gutanga ibinini ku baturage, aba bana ni impinja nabo munsi y'imyaka itanu.

Umurima wegereye ishyamba, ugaragara ko ari umurima utarimo ibihingwa ahubwo ukaba ari ahantu h'ikibara hatahinzwe hagaragara nk'ahantu hari'byatsi bitandukanye, hakaba harihoho ibiti byinshi cyane.

Igihuru cy'ibijojo kigaragazwa n'ibijojo. Amababi y'ibijojo harimo ibyatsi bigiye bitandukanye byinshi wibaza ko ari nk'urugo cyangwa igihuru cy'ibijojo . Icyatsi cy'ibijojo amababi agiye atandukanye.

Ikiba cyangwa ishyamba igitare kirimo ibiti bigiye bitandukanye, aho hagaragaramo harimo ibiti bya arunusi ,ibiti bishoboka byavangwa n'imyaka byitwa ronusi igiti cyakuze gifite ibishiko bikaba biri mushamba mu bindi byatsi byinshi cyane.

Igihuru, igihuru cy'ibyatsi, ibyatsi bigiye bitandukanye bigaragara nk'aho harimo imibunda, harimo ibyatsi byinshi cyane birandaranda, ndetse n'ibikura gakeya ntibijye hejuru cyane. Bigaragara ko ari ahantu ho mu ishyamba, hari ibyatsi bigiye bitandukanye cyane by'ubwoko bwinshi.

Umurima w'indabyo ugaragara nk'umurima urimo ibyatsi bigiye bitandukanye bishobora kuba byakoreshwa mu miti gakondo cyangwa bigakoreshwa mu ndabyo bigakesha ahantu nk'uko bifite indabo nziza, kandi bikaba ari ibyatsi bishobora kuvamo imiti biramutse bitunganijwe neza.

Icyatsi kiboneka mu bihuru bigiye bitandukanye, kigaragazwa kumera nk'icyatsi nk'igifite kigira udupfundiko, cyangwa utuntu tumeze nk'ikibumbe cy'amahwa gitahwanyirije cyane, kikaba ari icyatsi kiboneka mu bihuru ahantu hadakunze guhingwa cyane.

Ubwoko bw'igiti cya runusi kikaba ari igiti kivangwa n'imyaka ushobora guhinga hagati ku miringoti, cyangwa ukagihinga ku ruhande ku mikingo yo mu murima kugira ngo kibashe gufasha mu gufata ubutaka, ndetse no kurwanya isuri.

Imboga rwatsi, imboga z'inyarwanda zitwa dodo zikaba ari imboga zihingwa kiyarwanda, zigaraga n'icyatsi cyijimye cyane, zikaba zishobora kuba zasharira cyane. Akaba ari imboga ziri mu murima ahantu hatabagaye.

Mu murima ugaragara, umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye, ndetse hakaba harimo n'ibyatsi byinshi cyane, n'utwatsi duto cyane turanda ku butaka dutwikira ubutaka, hakaba harimo n'imicaca mbese n'urubingo n'ibyatsi bitandukanye byo mu murima.

Ibyatsi by'indabo, bigaragaza ko ari ibyatsi bishobora gukoreshwa ahantu hatandukanye, indabo izo watera ku rugo kugira ngo hase neza cyangwa, gukoresha ahantu aho bashyinguye umuntu, bakaba baziteraho nyuma yo gushyinyingura, cyangwa se arizo gukesha ahantu.